Inzu y'ubucuruzi igizwe n'udutanda turiho amacupa, arimo ibinyobwa bya fanta bitandukanye, n'amavuta yo kwisiga byose biri mu nzu y'ubucuruzi. Harimo n'ibikarito birimo n'izindi nzoga, ziri mu macupa y'ibirahure.